Umuntu wirabura ufite inzara ngufi ya, ntago agagaragara wese, hari intoki ze, n'igice cy'amaboko yiwe, ari gukaraba kuri robine, haza amazi menshi agenda atemba hasi.

Umugabo wicaye hasi wambaye isengeri n'ikabutura arasa nabi cyane bamwambitse igipine afite imisatsi myinshi imeze nkaho isutse, iruhande rwe hahagaze abagabo babiri umwe hagaragara ukuguru kumwe, undi amaguru abiri ndetse yambaye inkweto zifunze.

Umusaza wicaye, wambaye umupira w'umweru, ufatanije intoki, ari kwitabwaho n'umugangakazi wambaye imyenda y'ubururu, ufite umusatsi w'umwimerere, bombi barishimye, impande yabo hari agasego gatoya k'umweru.

Umuryango w'abantu batandatu bari gufatirara ifoto ahantu heza cyane, hari akazuba ndetse n'ibiti bari guseka cyane, bose barishimye harimo batatu b'igitsina gabo ndetse n'abandi batatu b'igitsina gore.

Abantu benshi b'igitsina gore bari mu nzu, hariho idirishya, harimo benshi bambaye imipira y'umweru, harimo abambaye iy'umukara ndetse n'icyatsi, harimo abafite imisatsi y'umwimerere, abafite ibisuko, abambaye ingofero, ikindi harimo abambaye amarinete.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, giterwa inkunga n'umuryango w'imbuto, hariho ikirangantego, uzamuka ama esikariye makeya kugira ngo hagere, hari ubusitani bwiza, hari abana batoya bahahagaze, hari abantu bakuru bambaye udupfukamunwa, harimo n'abambaye ingofero.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa bukeya, utabyibushye cyane, wambaye isaha y'umukara n'umupira w'ubururu, uri kunywa amazi akoresheje agacupa, ikindi afite inzara ngufi.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa bukeya utabyibushye cyane, wambaye ikamba mu ijosi ndetse n'umupira w'ubururu, ari kunywera amazi mu icupa ribonerana.

Imiti ya gakondo yo mu bwoko butandukanye iteretse ku meza ikozwe mu biti, hari isekuru isa umweru irimo umuti, hari n'umunzani, ikindi imiti bamaze gusekura bagiye bayishyira mu tuntu tw'udusorori dukozwe mu biti dutandukanye.

Abantu babiri bari mu ishyamba, harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ikote ry'umukara n'umugore wambaye umupira w'umweru ufite ingofero ndetse ateze n'agatambaro, bigaragare ko bari gusobanura ku bijyanye n'imiti ya gakondo.

Isabune yo mu bwoko bw'amazi, ikozwe mu gikakarubamba, ndetse n'amavuta y'amazi nayo akozwe mu gikakarubamba, zose biri hamwe, hagati harimo igipapuro cyerekana yuko ubikoresheje byose bishobora gutuma ugira uruhu rwiza.